Inyama nziza, isa neza, iri ku isahani, iragaragara neza cyane, inyama ni nziza mu umubiri wacu, turabona n'ibikombe biri mu kabati, amasahani, amatasi n'ibindi byangombwa byose dukenera mu rugo, birasa neza cyane.

amabotiki meza ari ku muhanda imiryango ine igaragara neza cyane iriho ibicuruzwa biriho imifuka irimo imiceri abaturage bari kujya kugura kugira ngo babashe kubona ibibatunga mu miryango yabo no mu gihugu batuyemo

Imihanda myiza igezweho abaturage bagenda mu muhanda umeze neza, amapoto y'amatara ameze neza urebye igihugu giteye neza kiratatse neza weee! Kirasobanutse.